Ibinyobwa bisembuye ni kimwe mu bintu bifasha abaturage kugubwa neza, aho usanga imbaga nyamwinshi iba ikunda cyane, kandi igakunda kubikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Resitora bare, aha ni ho bakunze kwita aho wasanga ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa by'amoko yose atandukanye. Uba usanga babifite kandi, iyo uhageze bakwakirana neza kuko haba hari serivisi iteye imbere n'amatara meza ndetse n'umuyaga uteye imbere.

Akabari banyweramo inzoga ni hamwe mu hantu usanga igitsina gabo cyitabiriye cyane kuko usanga bahura bakaganira bagahuza urugwiro, urabona ko hari amatara menshi atandukanye.

Inyama bokeje mu mashashi ni kimwe mu bintu bigaragara neza iyo umuntu azi kuzitegura biba ari ibintu biryoheye amaso. Abenshi bazitegura bazishyize ku mishito, abandi bakaziteka uko bisanzwe.

Inzoga zisembuye ni kimwe mu bintu abantu bakunda cyane, aho usanga mu kabari abantu benshi baba barashakiye inzoga amafirigo yo gushiramo izo nzoga. mu gihe ushaka inzoga ikonje ukayibona, washaka inzoga ishushe nayo ukayiywa.

Resitora bale, ni bale igaragara neza. Urabona ko itwikiye hejuru no hasi. Urabona ko ari ahantu hagaragara neza. Ameza n'intebe ni bimwe mu bintu bisa. Imiryango ushaka winjirira mu wo ushaka bitewe na serivisi uhakeneye.

Burushete ni inyama bashira kuduti bazibaze ndetse bakazishira ku cyokezo bakazotsa, ubundi bakazisiga ibirungo. ubundi barangiza bakazanira abantu bakarya bakagubwa neza ndetse bakishima. Uwariye kuri burushete ataha yumva ameze neza.

Mu marangi ni hamwe mu hantu hacuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyayi ndetse n'imigati, aho umuntu wahageze avamo anyuzwe, kuko haba hari abantu batandukanye guhera ku mugore, umwana, umukobwa, umugabo, bose usanga bahishimiye.

Inzoga ni kimwe mu binyobwa bikunzwe n' nabatari bake， aho usanga igitsina gabo gikunze kwicara， kikaganira kiri gusoma icupa ry'inzoga， ndetse izo nzoga inyinshi ziba zisembuye，uri kubona ko hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara， n'undi wambaye ishati y'umweru n’ipantaro y’umukara， bari gusangira bizihiwe.

Umugabo uri gusuka inzoga mu kirahure，urabona ko ari ibintu yatojwe kandi azi， kuko umuntu uba uzi gusuka inzoga mu kirahuri neza，bimusaba amashuri menshi，kuko nabyo barabyiga kandi akaba azi amoko yose y'inzoga.

Mu kabari ahantu bacururiza inzoga, iyo ubonye amatara yaho uratungugwa cyane, kuko ubu usanga bakunze kuyacana nijoro ndetse arimo amabara menshi, bigatuma abakiriya baza ku bwinshi kuko haba hateye amabengeza, hariho n'ibinyobwa abakiriya bashaka.

Umucuruzi bw'injugu ni bimwe mu bikorwa bifitiye abaturage akamaro aho usanga umuturage ubikora neza yarabigize umwuga bimutunga ndetse bigatunga n'umuryango we uko bikwiye.

Inyubako ikorerwamo serivisi zitandukanye, harimo beti ya foroti harimo n'ibya emutiyeni, kuko urabona hari abahungu babiri bambaye amajire ya emutiyeni, abandi bambaye amajire ya emutiyeni bo baricaye bafite n'umutaka w'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi yubatswe neza cyane， aho usanga iriho amakaro ndetse n'imiryango isa n'ubururu，ubona ko ari ikintu kizima，irangi riteye ni irya oranje， kandi ku ruhande hari indi nzu， nayo itaruzura， batari batera amarangi nayo igaragara neza.

Ibikomo ni kimwe mu mirimbo ikundwa n'igitsina gore, cyane cyane aho usanga bakunda ibikomo, cyane cyane kuko biba bigaragara neza kandi bituma nabo muri rubanda bagaragara neza mu buryo bukwiye.

Inzu y'ubucuruzi iriho amakaro, iriho ahantu hateye irangi rya oranje, mbere yaryo hariho irangi ndetse n'umufuka wanitseho ibitunguru, n'inyanya mw'indani urabona ko harimo amashu ndetse n'imifuka irimo ibicuruzwa iryo duka riba rifite....

Kiza Jiriberi ni rimwe mu iduka ricuruza ibintu bijyanye no kurya ndetse n'ibirungo harimo amavuta na shamusi ndetse n'ibindi bitandukanye aho ubona ko iyo ugiye gushakamo ikintu utakibura igihe watetse neza.

Inyubako z'ubucuruzi ubusanga zimaze gutera imbere cyane aho usanga basigaye bubaka inyubako z'ubucuruzi zinajyeretse ari nka etaje kandi zirimo buri kimwe umuntu wese ya.

Icyapa kiriho icupa rya henikeni kigaragaza faraja hoteli ni icyapa cyerekana ko aho hantu hari hoteli ndetse wahabona n'amacumbi ubishatse nk'umuntu uvuye hanze cyangwa udasanzwe uzi iyo karitsiye yagenda akararamo bakamufasha nta kibazo haba harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Hano bari kutwereka icapa kigaragaza ahantu bashushanyiriza mu karere ka Musanze, cyanditse ngo welikamu simufu ati andi fanica, ni co capa kigaragaza ibyo bintu bakora kandi babikora neza.

Ubucuruzi bw'imiceri ndetse akawunga amakaye, n'urusenda n'umunyu ni kimwe mu bintu biteza ubucuruzi imbere aho usanga umuntu iyo abifite aba aguwe neza ndetse akabona n'abakiriya ba buri gihe kuko ni ibintu bikenerwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye.

Inzu uburyo yubatse, yubatse mu buryo bwiza aho ifite kositara zigera mu ikenda, ndetse ikaba inubatswe namakaro y'umweru, ku ruhande hari icyapa kigaragaza amacumbi, ndetse n'ubyifuza wese yajya kuharara nta kibazo.

Umurama w'ibitunguru ni kimwe mu bintu bifitiye igihugu akamaro, aho usanga umuntu awugura ku mafaranga makeya ndetse akagenda akawutera ugasanga ukwiye ahantu hanini, ukavamo ibitunguru azagurisha amafaranga yikubye nk'inshuro icumi bitewe n'ayo yaguze umurama.

Iduka ricuruza ibikoresho bya eregitoronike ndetse rikanabikora, urabona ko ari ahantu habereye ijisho, hamwe ku muryango wa mbere handitseho ngo hano dukora telefone, radiyo, televiziyo, ipasi, keto, kandi bakanacuruza piyesi zose za eregitoronike umuntu aba ashaka.

Ubucuruzi buteye imbere, butanga serivisi zitagaragara, usanga ari kimwe mu bintu byafashe indi ntera mu Rwanda，aho usanga amakampani yitwa emutiyene，igiye iragira utuzu bagenda batangiramo serivisi, haba handitseho, akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri，ndetse ku ruhande rwako, hariho inzu ifite amakaro ndetse nayo igaragara ko ari iy'ubucuruzi.

Inzu z'ubucuruzi ubu usanga zikoregwamo ibintu bitandukanye nka hano dufite inzu ifite kenkayori yitwa turaheza kandi ubu usanga igira ibikoresho byinshi bitandukanye ibikoresho by'amashanyarazi ndetse niby'ubwubatsi. Iyo ushaka nimero zabo nazo wazireba ku cyapa ntakibazo kandi biba ari ibintu byiza cyane.

Inzu y'ubucuruzi icuruza amakara yo gutekesha ndetse na serivisi zikoreshwa mu kirere, harimo serivisi za Eyateli na simuswapu ndetse no kugura amayinite byose urabibona ntakibazo.

Utubari ni tumwe mu bikogwa remezo, bituma abantu batera imbere. Kuko uba usanga twinjiza amafaranga menshi cyane, kandi n'abantu bakunda kutugana uko bikwiye.

Inzu ya etage ni inzu igaragara neza uba usanga ifite parikingi ziparikaho amamoto, amamodoka kandi ifite n'imiryango ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye harimo: ama sitidiyo, ama supamaketi ,ndetse n'ahantu bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inzu y'ubucuruzi iriho amakaro hejuru ifite amarangi y'icyatsi, ku ruhande yicayeho abantu babiri umwe ufite ikirangantego cya MTN kuko ayicururiza serivisi zayo, undi ni umugore nawe ucuruza inkwi, hino hariho umuntu uri gucuruza Butike, hanze hateretseho umufuka imbere gatoya hariho akazu ka MTN.

Uruganda ruto rukora ibintu bitandukanye. Usanga mu gihugu ari kimwe mu bikorwa biteye imbere aho usanga babyita fagitori; bikaba ari uruganda rwa makumyabiri na kabiri rukaba rwubatse nka etaje.

Nitoroko kampani ni kampani ikorana n'ibigo by'ishoramari harimo bank of kigali, BPR ndetse n'irembo na wesitani uniyoni , aho usanga iyo ushaka kubikuza amafaranga bayaguha nta kibazo.

Resitora Kimaranzara, iri muri resitora nziza cyane aho usanga abamotari baba baparitse amamoto bagiye gushakamo ifunguro mu gihe bari mu kazi kandi ino resitora ifasha abamotari bose kubona ibyo kurya ndetse n'abandi bantu muri rusange.

Inzu z'ubucuruzi ni kimwe mu bintu bikora serivisi zitandukanye aho usanga abantu basigaye bakoreramo ibintu byo gufotora harimo imiti ya purinta, amakayi, laputopu ndetse banafotora impapuro; usanga ari ibikorwa byiza kuko bitanga umusaruro ku bantu babikeneye.

Ubwubatsi bw'amazu ni igikorwa kimaze gufata indi ntera ku buryo bugaragara aho usanga abantu bari kwihutira kubabaka amazu ageretse cyane cyane ku mihanda n'ahandi hose hatandukanye.

Inzu ikoreramo akabari ndetse na resitora ni imwe mu nzu zigaragara ko zifite umwihariko uteye imbere ,aho usanga izitiye ndetse ifite n'icyapa kigaragaza ko bacuruza inzoga ndetse n'ibyo kurya bihagije.

Abakarani bafasha ba nyirimizigo kuyiterura bayipakira mu modoka cyangwa ku kindi kintu ni abantu bakora cyane aho urikubona bari gupakira amagi bayashira mu modoka imodoka ifite ihema ry'ubururu ndetse iyo modoka ni iya toyota isa n'umweru.

Inzu y'umutuku ikoreramo ubucuruzi bujyanye n'igihe, uri kubona ko hariho icyapa hejuru cyanditseho konegisiyo, iruhande yarwo nk'imbere gatoya harimo imodoka y'umukara, ifite ibirahuri by'umukara ndetse ubona iteye neza.

Ibikapu bibika imyenda myinshi aho usanga igikapu cy'umutuku, umukara, ndetse harimo n'indi myenda itandukanye n' isa n'ubururu nisa n'umuhondo, n'isa n'umweru, n'izindi zivanzemo andi mabara...

Icyapa kigaragaza hamoni mini maketi harimo imigati, ndetse harimo n'amazi, ndetse harimo na za salisa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Aha cezi kabasha nimero wamushakiraho ni zeru karindwi umunani umunani gatatu kane umunani gatatu rimwe, ndetse wanamwandikira kuri imeli nayo ukayibona neza akabiguhereza ku buryo bworoshe kandi akabikugezaho.

Saro isuka imisatsi ni kimwe mu bikorwa bigaragaza ko ahantu hateye imbere, aho usanga yita ku bwiza bw'abagore ndetse n'abagabo, usanga iyo umuntu yagiye muri saro avamo ameze neza ku mutwe we, ku buryo ubibonye wese abona yahindutse.

Inzu z'ubucuruzi ziri mu nzu zikunzwe gushigwaho ibintu byinshi. Aho uri kubona baratatseho ibyapa bigaragaza igikorerwamo muri izo nzu n'abantu bafite urujya n'uruza uri kubona hirya no hino bari gucuruza ibintu bitandukanye ukabona ari byiza.

Icyapa cya papeteri iwacu nimero zacyo wabahamagara kuri: zeru, karindwi ,umunani, cumi nagatandatu ,kane, umunani ,icyenda, icyenda gatandatu. Iki cyapa kigaragaza ibintu bakora harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bacuruza amakaye ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri umuntu wese yakenera.

Mu gikoni ni ahantu heza kandi hera, ubu usanga haturuka ibiribwa bituma tugubwa neza kandi bikadutungira umubiri, ni yo mpamvu tugomba kuhubaha cyane, urabona ko hano bari gucana kuri gaze ndetse hariho amasafuriya abiri atetsemo ibiryo, naho ayandi yo nta bintu birimo.

Isoko ry'imyenda ni rimwe mu masoko agaragaza ubuhanga buhanitse mu muryo ryubatse, isoko rya Goyigo ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, aho usanga bacuruzamo imipira, amashati, amajipo, amakuvureri ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo umuntu akenera.

Ibiro by'umurenge wa Kinigi, ni ibiro byubatse neza ndetse ni ibiro bifasha abaturage mu gukemura ibibazo bafite mu ngo zabo ndetse no mu buzima busanzwe, aho usanga umuntu wese ugiye agana ibiro by'umurenge wa Kinigi ahava anyuzwe.

Iduka ry'ubucuruzi, rigaragaza ko rifite ibintu byinshi, hejuru handitse kafetariya, haba harimo amandazi, imigati, amaji, ndetse n'ibindi bitandukanye, iyo ukeneye ikintu kijyanye no kurya, urakibona nta makemwa.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibikoresho by'amasuku, ndetse harimo n'imisatsi abagore bakoresha bari gusuka imisatsi yabo, ndetse igacuruza n'amavuta n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ubwiza. Ni ahantu ubona habereye...

Imikino y'amahirwe ni kimwe mu bintu bimaze gufata indi ntera mu Rwanda, aho usanga abantu bakora mu mikino y'amahirwe barafashe amazu ndetse bakanafata n'imiryango myinshi, bagashyiramo ibyo bakora ndetse abantu bakanabagana ku buryo burambye.

Zimwe mu nzu usanga hariho amakaro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, aho usanga inzu zo ku muhanda zisize amarangi meza ay'icatsi ndetse n'avangiyemo umuhondo w'umutuku, kandi hariho n'ibyapa bigaragaza icyo bakoreramo muri izo nzu.

Inzu iriho amakaro uba usanga igaragara neza iyo urimo kuyirebera kure cyangwa uyegereye. Urabona ko hariho abagabo babiri bari kugenda, umusaza uri imbere ufite inkoni, na ho umusore we harimo metero nk'eshatu kugira ngo yegere uwo musaza nawe, uri kugenda inyuma. Uri kubona ko biri kugaragara neza n'amakaro.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda uba usanga zikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. Inzu dufite iri gukoregwamo intebe ndetse n'ibikoresho byo mu nzu, aho usanga bagufitiye intebe z'amasimirikwire ndetse n'izindi ntebe zitandukanye.

Inzu ifite amakaro ku mpande， ndetse inafite umuryango munini，igaragara ko irimo ubucuruzi， kuko umuryango uwufunguye，hariho imifuka igaragaza ko bari gucururizamo， ndetse uninjiyemo mwindani， harimo akameza， karambitseho uducunga.

Inzu z'ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa remezo biteje igihugu imbere，aho usanga abantu bakorera mu nzu z'ubucuruzi， bagenda basorera Leta， kubera ibikorwa bari kuzikoreramo， hano dufite inzu zubakishijwe n'amakaro， zirimo bare，mbese wasangamo icyo kurya n'icyo kunywa.

Umukobwa urimo kugenda iruhande ya etaje kandi urabona ko afite agakapu, yambaye ikoti rigiye gusa n'umutuku, ndetse yambaye n'agapira gasa n'umukara, ndetse yambaye n'ijipo isa n'icyatsi n'inkweto zisa n'umweru, urabona ko yegereye ahantu bari gucuruza amakesi y'inzoga.

Isoko rya kariyeri iyo uritembereye ukagera hejuru uhasanga resitora nziza cyane aho usanga bagufitiye capati, boyilo, amandazi ndetse n'ibindi biribwa byo kurya harimo n'ibiryo baba batetse kandi harimo n'ibirayi baba batetse mu mavuta byose urabihasanga ntakibazo.

Inyubako ya etaje ni kimwe mu bikogwa by'ingirakamaro ku gihugu ndetse no ku bantu aho usanga hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'ubucuruzi bw'imbuto, ubucuruzi bwa serivisi ndetse bituma abantu babona amafaranga ku buryo bworoshe.

Ubucuruzi bw'ibikoresho bikoreshwa mu rugo harimo utumeza, indobo, epuberi, amasafuriya, amashakoshi, ibiringiti, kuvurere, imikoropesho ndetse n'ibindi bitandukanye usanga ari ibintu bigaragaza ko ahantu hateye.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bijyanye n'imitako y'abageni, harimo intebe imyenda abageni bambara ndetse n'amakado, uba usanga byose babifite, aho intebe z'umweru mu makwe menshi ubu usanga abantu bazikunda.

Imodoka icuruza omo ndetse n'amasabune yitwa ogisi, ni imodoka iyatembereza cyane, ku buryo igera ahantu henshi, hatandukanye, ibintu bamwe bakunze, kwita ngo ni furi derivari, usanga iyo ubikeneye babikuzanira, ku giciro gito, kandi ku buntu.

Inzu ifite inzugi nziza cyane zakozwe n'abahanga. Uri kubona ko zifite dizayini iteye amabengeza. Umuntu uwo ari we wese uri kuzibona ari kubona ziteye neza. Inzu isize amarangi y'umweru ndetse harimo n'umukara, ku ruhande gatoya hari hari imodoka iri kugenda irarenga.

Iduka ry'ubucuruzi ni imwe mu bintu biteza igihugu imbere, aho umuntu iyo ashaka ibicuruzwa arabibona nta makemwa. Hariho amakara yegamye ku rugi ndetse n'umunyonzi uri gupakira imizigo, uri gusunika, n'undi ugiye kwinjira mu muryango. Urabona ko hari urujya n'uruza rw'abantu.

Icyapa kimanitse ku nzu y'amatafari asize verine y'umutuku kiragaragaza ibyo bafite ndetse nibyo bakora urabona ko bateka bavuze ngo:" hano tubafitiye inkoko, ifi, ifiriti, burushete, agatogo, boyiro, igiti ndetse n'ibindi bitandukanye".

Ahantu hakoregwa ibikoresho by'ikoranabuhanga bakunze kwita elegitoroniki. Ibikoresho bya elegitoroniki ni ahantu usanga hakunzwe kuganwa n'abantu benshi cyane, aho abantu babikoramo bafasha abantu mu buryo butandukanye kandi bagatuma ibikoresho byabo bikora neza. Nka hano urabonako babibyukiye babyitabiriye kandi bakora amatelefoni n'amaradiyo n'ibindi bitandukanye.

Ikigo shoramari cyitwa equity bank ni kimwe mu bigo bitanga inguzanyo, ndetse bikaguriza n'abantu benshi batandukanye, n'amakompani, aho wabitsamo amafaranga, ukanabikura ku buryo usanga umuntu ubyizeye amafaranga ye aba acunzwe neza.

Koperative icuruza imyaka, yambukiranya imipaka, ndetse ikanatunganya n'amafu, ni koperative nziza cyane, aho hantu yari iri kugaragaza ibyo ikora, barimo bishimira intsinzi, ndetse n'intambwe bamaze gutera, muri urwo rugendo rwabo rwo gutunganya iyo myaka.

Salo ni kimwe mu bintu bigaragaza inzu neza ,aho usanga salo iba irimo ameza, intebe n'umukeka kandi bibereye ijisho. Aho intebe zisa n'umweru zirimo n'umutuku usanga zigaragara neza ku buryo buhagije.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibintu by'ubwiza harimo amavuta, amaparufe ndetse n'imibavu. Indi itandukanye amashanete n'ibikomo byose urabihasanga urabona ko umugore ndetse n'umugabo baje kugura bari kugenda bareba icyo bahitamo.

Ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibiribwa ndetse n'ibyo kwambara, usanga ari kimwe mu bintu bigaragaza ko isoko rigendwa cyane, hano turahabona inanasi ndetse n'amaronji, ku ruhande turahabona amasogisi ndetse n'udukapu ku buryo ubona ko ikintu wakenera cyose wakibahobona.

Bimwe mu biribwa bikunzwe n'abantu benshi cyane mu gihugu cyacu usanga harimo: ibihumyo, tungurusumu, ibitunguru ndetse n'ibindi, aho usanga uwabitetse cyangwa uwabikoresheje mu bintu bitandukanye agubwa neza, ndetse bikamugirira akamaro ku mubiri we.

Ku munsi w'isoko abantu bakunze kuza guhaha ibiribwa bitandukanye, aho usanga bari guhaha imboga ,kurujete, ibihaza, amateke n'ibindi binyamafu bitandukanye harimo: imiceri ,akawunga ndetse ukabonako ari ibintu byitabirwa na buri umwe.

Ibiribwa bikomoka mu nyanja harimo tomusoni, indagara n'amafi. Ni bimwe mu bintu bifitiye abaturage akamaro kuko abana n'abantu bakuru bibafasha kubaka umubiri ndetse bakagira n'ubuzima buzira umuze.

Amashu ni igihingwa cyera mu gihugu hose aho usanga mu bukonje no mu bushyuhe amashu yera, iyo wayavomereye ahantu hose usanga aguhaye umusaruro ntamakemwa. Amashu ni igihingwa kizima cyane aho mu bigo by'abanyeshuri usanga bayakunze kuyakoresha cyane gusumbya izindi mboga.

Isoko ririmo imbuto ubu usanga ari isoko rigaragara neza aho usangamo imineke, Wotameloni, amacunga ndetse n'ibindi bitandukanye baba babirambitse aho bita ku sima, ndetse iryo soko ubu usanga umuntu urigezemo atabura icyo ahabwa.

Imbuto ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ahantu hageze umusaruro uhagije. urabona harimo imineke, amatunda, wotameloni, indimu ndetse n'imyembe. Ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ahantu hamaze gutera imbere mu biribwa.

Ibikoresho bikoreshwa mu gikoni cyane usanga mu isoko baba babifite ku buryo buhagije aho ubonamo amajagi, amabase, ibikombe, amasahani ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa bifitiye abaturage akamaro kuko uba usanga harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo: amafu, ibyo kurya, amavuta ndetse n'ibindi bintu byinshi bikenerwa na buri umwe.

Isoko ry'imyenda ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, ni ahantu hahurira abantu benshi ubu usanga bari gucuruza n'imifuka, amapantaro, amakabutura, imipira, ku buryo utabura umwenda wo kwambara.

Isoko rya kariyeri ni rimwe mu masoko ryateye imbere ,aho ryubatswe neza, mu buryo bukwiye kandi ahenshi bagurishamo ibiribwa ibyo kurya ndetse n'ibinyobwa byo kunywa ,aho ubona ko ibintu byateye imbere.

Ibitambaro by'amakupe ni ibitambaro bigaragara neza, ndetse bivamo amatisi meza, ndetse n'imyenda y'abagore myiza. Iyo ubona umuntu yambaye umwenda mwiza uhita wibaza aho yawukuye kandi ari ku bitambaro baba bararanguye byakozwe n'inganda zibifitiye ububasha.

Imbuto ni bimwe mu bintu bikundwa n'abatari bake, aho usanga bituma umuntu agubwa neza bikavura indwara harimo amaronji, wotameloni, ibinyomoro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, uba usanga buri umwe wese abikunda kuko nk'ubucuruzi umuntu ubikoze arunguka cyane urabona ko bari kubicuruza.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu nzu， ni kimwe mu bintu biteza igihugu akamaro，kandi bigatuma abantu bahugukirwa gukoresha ibikoresho bizima， ndetse bifite isuku， harimo utuyunguruzo，ibiyiko ndetse na za situruwaya byose baba babifite.

Ibitoki ni kimwe mu bihingwa bikunzwe n'abanyarwanda muri rusange, aho usanga mu masoko menshi babigemura kandi bikagurwa n'abatari bake, kubera uburyohe biba bifite kandi bikanagira intungamubiri kubana ndetse n'abakuru.

Ubucuruzi ni kimwe mu gikorwa gifitiye abaturage akamaro， aho usanga abaturage baba barafashe umwanzuro wo gucuruza ibintu byinshi bitandukanye，harimo inkweto， imyenda， ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byo mu rugo biri mu bikoresho bikunzwe gukoreshwa cyane aho uri kubona imyuko, ubudobo, imbabura, amabase ndetse na za bucengende, amameza, uri kubona ko ari ibintu bishimishije.

Bimwe mu bikoresho bifite agaciro gakomeye kuko usanga bikoreshwa mu rugo, akenshi usanga harimo agakoco, indiga, imyuko n'udusandugu babikamo amafaranga, n'ibiziriko bazirikisha inka, ihene n'intama n'izindi nyamaswa zo mu rugo.

Ibinyomoro ndetse n'imyembe ni bimwe mu mbuto zituma abanyarwanda bagubwa neza, ndetse zimwe zinongera amaraso izindi zikarinda indwara mu mubiri, niyo mpamvu tugomba kuzikoresha mu buryo bwose bushoboka, kandi buri umwe ntatume ahezwa kuri icyo kintu.

Ibicuruzwa birimo amaji, usanga ari ikintu gifitiye abantu akamaro aho usanga buri umwe ari kubikoresha kuko ni ibicuruzwa bidasembuye ndetse harimo na tuwisita na mirinda ndetse naji iri mu kaduki usanga ar'ibintu bikunzwe ahantu henshi.

Karoti ni igihingwa kiryohera buri umwe wese, kuko akenshi usanga tukirya mu mboga ndetse kikanaturyohera, kuko usanga kigira intungamubiri ihagije, ndetse karoti zivura amaso, zikanatuvura mu mutwe mu gihe turi kumva turi kuribwa.

Ibiribwa birimo imineke ndetse n'ibindi ni kimwe mu bintu biteye imbere cyane cyane aho usanga bidufasha kugubwa neza mu mubiri wacu iyo twabikoresheje, no mu masoko usanga ari bimwe mu biribwa bikunzwe n'abatari bake.

Ubucuruzi bw'ibiribwa buri mu bintu bigaragaza ko ahantu hateye imbere, aho usanga abantu baba bari gucuruza imyunyu, kawunga, imiceri, amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye, ku buryo ushaka ibyo kurya ukaba utabibura.

Inyanya ni kimwe mu mboga zikunzwe n'abatari bake cyane, aho usanga urunyanya rwakuze ubu usanga rufite ibara ry'umutuku ryaravuyeho kuba icyatsi rikaba umutuku, ku ruhande hariho puwavuro, nazo uri kubona ko zigaragara neza zifite ibara ry'icyatsi.

Isoko rya Goyiko riri mu masoko iteye imbere cyane ,aho usanga bacuruza ibikoresho byose bitandukanye umuntu akenera harimo: imyenda y'amoko yose, inkweto, ndetse n'ibiribwa byose, iyo umuntu abishatse arabibona.